Abashinzwe umutekano mu Rwanda baturinda abasambo, baturinda abatugirira nabi, aho buri muturage wese yumva afite umutekano ndetse n'Urwanda muri rusange.

Rutemikirere igaragara nk'iy'igisirikare iriho amabendera, harimo n'iry'u Rwanda kandi ikaba iri mu ibara risa nk'impuzankano y'igisirikari cy'u Rwanda.

Amatara yifashishwa ku mihanda kugira ngo abashe gutegeka ibinyabiziga ndetse n'abantu uburyo bambukiranya umuhanda, aho itanga amasegonda runaka yo kuba abantu bamaze kwambuka cyangwa se imodoka zimaze gutambuka.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyane cyane gikoreshwa mu mutekano aho gisimbura abantu bacunga umutekano, aho gifotora amashusho yose y'ibintu byakorewe aho kiri.

U Rwanda rufite umutekano mwinshi cyane aho ababishinzwe baba barabyitoje cyane kandi iyo bari mu nshingano zabo babikora neza cyane aho Abanyarwanda bumva aba bafite umutekano kandi bakora bisanzuye nta rwikekwe.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibinyabiziga, aho gisuzuma niba ikinyabiziga gikora neza, kandi cyujuje ubuziranenge, ku buryo kitateza impanuka, biturutse ku kuba ikinyabiziga gishaje, cyangwa se kidakoretse neza. Aho ba nyirabyo babijyana kugira ngo basuzume ubuzima bwabyo.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu kurinda impanuka, aho gitanga amakuru ku bashinzwe umutekano ku kinyabiziga gifite umuvuduko uri hejuru y'uwo bagennye, bityo bikarinda impanuka zo mu muhanda.

Ingabo z'igisirikare cy'u Rwanda aho barinda igihugu cyacu bakakirinda ko cyaterwa n'umwanzi. Bifashisha intwaro kandi baba bazi uko bazikoresha.

Ikoraniro ry'abantu. Aho hariho abaturage b'ingeri zose, kandi hakaba hariho n'abayobozi, harimo n'ushinzwe umutekano. Umusirikari bisa nk'aho ari kubaha ibiganiro ku mutekano.

Ikoraniro ry'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe. Aho bafite umuyobozi uri kubaganiriza ku ngingo runaka. Bityo bagasangira ibitekerezo.

Ibirago kuva kera byabohwaga n'abagore, bikaba bikoreshwa imirimo myinshi itandukanye, nko gusasa uburiri, kubiraraho, kandi kera bikaba byarakoreshwaga mu ku kubyiyorosa.

Indabo ni nziza, kuko nk'aborozi binzuki bafasha kubona ubuki bwinshi, aho inzuki zijya guhova ubuki muri izo ndabo.

Mu muco gakondo, ubworozi bw'inzuki bwakoreshwaga imizinga ya kinyarwanda, aho yashyirwaga mu biti maze hakaza inzuki zikawujyamo, hanyuma inzuki zigakora ubuki bigatuma babona ubuki.

Mu rwanda rwo hambere, uko ni ko abibwami biyogosheshaga, ariko bikagaragara ko muri iki gihe hari abagifite uwo muco wo kwiyogoshesha ubu buryo.

Ubworozi bw'inzuki ni kimwe mu bintu biri gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abarozi bazo babona amafaranga menshi kuko ubuki ni ikintu gifite agaciro gakomeye cyane, aho bukoreshwa imirimo myinshi itandukanye nk'umuti ndetse n'ibindi byinshi.

Iyo igihingwa cy'ubunyobwa cyeze, haza indabo zibigaragaza hejuru. Bityo umuhinzi, we aba abizi ko iyo ururabo ruje, ko ubunyobwa buba bweze, bityo akajya gusarura, nuko akabona amafaranga.

Ubwami butaracibwa mu Rwanda umwami ni we wari umuyobozi w'igihugu, aho uyu mwami yapfaga hakaba imihango yo kumushyingura, kandi agasimburwa n'umwana we.

Abagore cyangwa se abakobwa barimo kwerekana umuco nyarwanda, aho bafite ibikoresho bimwe na bimwe by'umuco nyarwanda n'aho byakoreshwaga mu muco wa kera.

Intore ziri guhamiriza ziri kubyina imbyino gakondo aho higanjemo:abana ,abagabo ndetse n'abasore, bisa nk'aho bakurikiwe n'abantu bari mu birori.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, aho byifashishwaga mu kwenga inzoga no kuzibika, kandi bikabikwamo amazi, ubuki, kugira ngo bazabikoreshe mu minsi izaza.

Abagore babiri .umwe ufite umwana, ndetse hakaba barimo kubumba inkono zo kuzajya ba batekeramo, kandi babikoraga mu Rwanda rwo ha mbere, ariko nanubu bigikorwa.

Intore ziri guhamiriza, ziri kubyina imbyino gakondo, aho zikurikiwe n'abatari bake. Ziri gukoresha ibikoresho bitandukanye nk'amacumu, zambaye amayugi, ndetse n'imyenda yabugenewe bakoresha babyina imbyino gakondo.

Igikoresho gakondo gikoreshwa mu gutunganya amafunguro harimo isombe ubugari bw'imyumbati kandi cyakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere.

Iningiri ni kimwe mu gikoresho gakondo cy'umuziki, aho abanyarwanda bayikoreshaga barimo gukora ubuvanganzo nko kuririmba, kuvuga imivugo ndetse n'izindi.

Mu muco gakondo w'u Rwanda hari abanyarwanda b'abagabo babyinaga indirimbo gakondo, abo rero bitwaga intore.

Inkono y'itabi yakoreshwaga kera, yifashishwa mu kunywa itabi ry'igikamba, aho wacanaga umuriro mu nkono maze ugakurura, nawe ugasohora umwotsi.

Uruhurirane rw'abantu barimo kubyina imbyino gakondo, aho bigaragara ko ari intore zirimo guhamiriza, zambaye amayugi akoreshwa mu kubyina izo mbyino.

Abagore batatu barimo kubyina imbyino gakondo, barimo kurebwa n'abandi bantu benshi higanjemo abana b'abasore ndetse n'abagabo.

Mu muco gakondo w'u Rwanda imbyino gakondo zarabyinwaga cyane kandi zikaririmbwa, aho izo mbyino gakondo zari zigize igice kinini cy'ubuvanganzo, na ho ubu izo mbyino zashyizwe mu murage w'u Rwanda kandi zikaba zibyinywa ,kandi zikaririmbwa kugira ngo himakazwe uwo muco ,kwari ukugira ngo utazibagirana.

Mu Rwanda rwo hambere hari ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu muziki harimo nk'iningiri ,inanga ndetse n'ibindi byinshi.

Intore zambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo umugore urimo gucurira harimo n'umugabo uri gucuranga agakoresho gakondo k'umuziki ndetse akaba babyinira umuntu runaka.

Igikoresho cy’umuzika cyakoreshwaga mu Rwanda rwo ha mbere, mu gihe baririmba ndetse basusurutsa abanyarubuga i Bwami. Kandi icyo gikoresho cyakoreshwaga n’abantu bize kugikoresha, kuko ntabwo ari buri wese wagikoresha.

Bimwe mu bikoresho byakoreshwa mu rwanda rwo hambere. Aho byakoreshwaga mu kubika amata ,kuyacunda ndetse no kuyanyweramo.

Intore ziri guhamiriza zishimye cyane zifite amacumu ndetse n'ingabo, aho ibi bigaragaza ko bari kubyina imbyino gakondo.

Mu Rwanda rwo ha mbere hakibaho ubwami, ibwami habagayo abagaragu benshi aho bakoraga imirimo itandukanye harimo nko kubyinira umwami ,kurinda ibwami, guteka ndetse n'ibindi byinshi.

Intore akenshi aba yiganjemo igitsina gabo, aho baba bambaye amayugi ku maguru, ndetse bafite n'amacumu barimo guhamiriza, babyina izo mbyino gakondo.

Imyaka yahunitswe mu kigega，hari igihe kigera nayo bakayanika kugira ngo icemo akazuba， bityo bikayirinda gupfa， cyangwa se kwangizwa n'ubukonje.

Uburyo bwa gakondo bwo kwengamo inzoga . Aho bifashisha bimwe mu bikoresho bya gakondo harimo nk'umuvure, kandi bagakoresha intoki barimo gukanda ibitoki kugira ngo bivemo umutobe bengesha inzoga.

Ibikoresho bya gakondo. Byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, aho harimo ibicuma ndetse n'ibibindi, byakoreshwaga mu kubika ndetse no kunywesha inzoga.

Indosho cyangwa se umwuko ni bimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu Rwanda, hanze naho byakoreshwaga mu gihe barimo gutunganya amafunguro nk'umutsima, igikoma, ndetse n'ibindi.

Ibibumbano byashyizwe ahantu ku muhanda kugira ngo buri muntu wese azajye arabibona bimworoheye. Ibi byimakaza umuco nyarwanda aho n'abanyamahanga bageze mu Rwanda babibona bikabakumbuza kureba imbyino gakondo.

Ingobyi ni igikoresho gakondo cyakoreshwaga imirimo itandukanye, nko gutwara abantu babakuye ahantu hamwe babajyana ahandi.

Igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, mu gutwara abantu babavanye ahantu hamwe babajyanye ahandi, cyane cyane igihe babaga barwaye babavanye mu rugo babajyanye ku bitaro cyangwa se ku ivuriro.

Ikoraniro ry'ibikoresho byo mu rugo bitandukanye harimo nk'igitebo gikoreshwa mu kuyora ibintu bitatanye isekuru bakoresha basekura ifu, isombe ndetse n'ibindi.

Mu muco nyarwanda umutiba ni igikoresho cyabohwaga kugira ngo bazajye bagihunikamo imyaka nk'ibishimbo, ibigori, amasaka, amamera ndetse n'ibindi.

Kumasha cyangwa se gukoresha intwaro gakondo zirimo imiheto, amacumu ndetse n'imyambi, ni kimwe mu bintu byatozwaga abana mu Rwanda rwo hambere.

Urusyo ni ibuye ryakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere， aho ryasimbuwe n'imashini z'amashanyarazi，muri iki gihe， aho ryakoreshwaga mu gusya zimwe mu mpeke， harimo amasaka， ingano， ibigori， ndetse n'izindi.

Mu muco gakondo ,ibigega byakoreshwaga mu kubika imyaka nk'ibigori ,ibishyimbo ,amasaka ndetse n'indi Aho babibikagamo cyangwa se bakabihunikamo kugira ngo bazabikoreshe mu minsi izaza.

Ubuhinzi bwa soya bukomeje gutera imbere mu Rwanda, aho bakomeje kongera imbaraga mu kureba uburyoki bazamura ingano y'umusaruro uboneka mu ihingwa ry'ubunyobwa.

Abantu benshi bateraniye ahantu bari mu irushanwa ryo kwirukanka, aho uwatsinze ahabwa amafaranga ndetse n'umudari w'ishimwe.

Igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere mu kubika amata, inzoga kandi bakakifashisha mu birori barimo gusangira inzoga.

Ibiseke binini cyane, aho byakoreshwaga mu rwanda rwo hambere, mu gihe bagemurirana imyaka mu gihe yeze nk'ibishyimbo, ibigori bakabijyanira inshuti yabo.

Umwamikazi cyangwa se umugore w'umwami icyo gihe yabaga akomeye cyane ibwami, aho yitabwagaho n'umwami kandi akarera abana yabyaranye n'umwami.

Ingoro cyangwa se inzu y'umwami niho umwami yabaga akabana n'umwamikazi cyangwa se umugore we, bityo aha ni yo nzu y'ibwami iyo umwami yabagamo yagiraga abagaragu bamurinda.

Ingobyi gakondo ni kimwe mu gikoresho cyo mu Rwanda rwo hambere, bayikoreshaga kugira ngo bavane umwami ahantu hamwe bamujyana ahandi, ni nk'aho cyakoreshwaga nk'ikinyabiziga, ariko na none n'ubu hari hamwe usanga bagikoresha kugira ngo bajyane abarwayi kwa muganga.

Mu masoko ry'ibiribwa , habonekamo ibishyimbo , amashaza ndetse n'ibigori , n'ibindi byinshi. Ariko ibyo bihingwa iyo bisaruwe, biza bifite umwanda bityo mbere y'uko bigurishwa bibanza gusukurwa.

Uduseke ni tumwe mu tugaragaza umuco gakondo. Aho twashyizwe mu nzu ndangamurage kugira ngo bereke abantu uko u Rwanda rwo hambere rwakoreshaga ibyo bikoresho.

Ibibindi bikorwa mu ibumba aho abantu bajya gushaka ibumba aho riri cyane cyane mu bishanga nuko bakaza bagakoramo ibibindi, aho byakoreshwaga mu kwenga inzoga ndetse no kuzibikamo mu muco nyarwanda.

Inyambo ni ubwoko bwiza bw'inka kandi bukaba bugaragara ahantu henshi mu Rwanda, aho bugaragazwa no kugira amahembe maremare cyane.

Igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, ariko no muri iki gihe hari hamwe kigikoreshwa, aho cyakoreshwaga mu gucunda amata.

Ikoraniro ry'abantu benshi harimo intore zirimo kubyina imbyino gakondo, ndetse hariho n'abavuza ingoma bitwa abakaraza, hari n'abandi barimo kuririmba.

Igikoresho gikoreshwa n'abantu bakora umuriro w'amashanyarazi, aho gifasha uwo muntu kuzirikanya insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Igikoresho cy'amashanyarazi cy'ubwirinzi, aho kirinda umuriro mwinshi, kuba wajya kugikoresha igikoresho cyose gikoresha umuriro w'amashanyarazi, harimo nk'amateleviziyo, mudasobwa, ndetse n'amatelefoni.

Igikoresho cy'amashanyarazi gikoreshwa mu nyubako zitandukanye, aho abantu bagikoresha kwemerera umuriro wamashanyarazi gutambuka cyangwa se kuwuhagarika.

Buri nyubako igira aka agakoresho aho gashirwa ku bikuta, kugirango buri muntu azajye abona uko acana amatara.

Igikoresho cy'amashanyarazi, aho kiba mu mazu menshi atandukanye, kugira ngo kirinde inkongi z'umuriro, bitewe n'umuriro mwinshi cyangwa se ibintu bikoze nabi.

Igikoresho cy'amashanyarazi gifasha mu kumurika ahantu hanini. Aho gifite amatara menshi agikoraniyemo, kifashishwa mu gucanira imihanda, aho kirinda impanuka gicanira ibinyabiziga, ndetse n'ababitwara.

Inyubako igaragara nk'aho ibiro yubakishije amatafari ahiye ifite amabati ashaje ,hariho amabendera ,hariho n'ibendera ry'u Rwanda kandi iyi nyubako ishobora kuba ari ibiro by'umudugudu, akagari, akarere, cyangwa se indi nyubako y'umwihariko ya leta.

Amashyirahamwe ndetse n'amakoperative ari gukora cyane, kugira ngo akore imishinga ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, kuko ari byo bintu biri gusabwa cyane ku isoko ry'umurimo, ndetse ari na byo bikenewe n'abantu benshi.

Umuhanda wa kaburimbo, aho uhuza imirenge, uturere, ndetse n'intara, aho ikoreshwa mu buhahirane, hagati y'abantu n'abandi, ndetse igatuma abantu bava ahantu hamwe bakajya ahandi.

Inyubako nini cyane ikoreshwa nk'urusengero, ikaba ihurirwamo n'abantu benshi bavuye ahantu henshi hatandukanye, igihe umunsi runaka wasengeraho ugeze.

Inzu igezweho y'ubucuruzi, aho ibamo ibyumba byinshi bitandukanye, hagakorerwamo n'ibintu byinshi bitandukanye nk'ubucuruzi bw'imyenda n'inkweto, abategura amafunguro, amahoteli ndetse n'ibindi bikorwa.

Uburiri bwo mu bitaro, aho abarwayi b'indembe bashirwa, maze bakavurwa kandi bakabonana n'abaganga mu buryo bwihuse.

Inzu zisa nkaho zishaje, zifite amabati yahinduye ibara kandi yari umweru, bigaragara nkaho hari inzu ya leta cyangwa se haberaga igikorwa runaka cya leta.

Ikigo cy'amashuri cyangwa se ikindi kigo kigira abantu benshi, aho bifashisha uruzitiro kugira ngo rurinde abarimo imbere guhungabanywa n'ibintu byo hanze, cyangwa se kuba batoroka.

Inzu yubatswe, aho bigaragara ko ishobora kuba ari nk'ibiro by'umudugudu, ibiro by'akagari cyangwa se iby'umurenge, aho umuyobozi w'akagari cyangwa se uw'umurenge, yakirira abamusanga ndetse akanabakemurira ibibazo.

Inyubako igaragara ko ishaje. Ifite amabati ashaje, ndetse n'inyuma hayo irashaje . Hejuru y'iyo nyubako rero hakaba ari insinga z'amashanyarazi zitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Ingomero z'amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa remezo u Rwanda rufite. Aho umuriro uhagije ubonerwa abaturage mu Rwanda. Bityo bigatuma u Rwanda rugahora rufite umuriro w'amashanyarazi uhagije.

Inyubako isa n'ishaje itagezweho. Ku muryango wayo hejuru handitseho ko ari urukiko rw'ibanze rwa Mukamira, aho abaturage bajya bagiye gukemurirwa imanza, haba harimo n'abacamanza.

Urusengero ruhuza abantu benshi, aho abantu kuva ahantu hatandukanye bahurira mu rusengero, aho baba bahuje imyizerere ndetse n'imyemerere.

Ibitaro ni bimwe mu bikorwa remezo bikoreshwa cyane, aho iyo umuturage arwaye ajya ku bitaro bakamuvura, ndetse bakamuha n'imiti ikenewe kugira ngo akire.

Inyubako ifite ibyumba byinsh ,ikaba icyumba gifite icyapa kiriho ko hariho akagari ka kampanga, bivuze ko ari byo biro by'ako kagari.

Inzu nini. Bigaragara ko ari urusengero. Hanze yarwo hagaragara ko hari habaye isuri. Bityo rero tukava dushishikarizwa kurwanya isuri dutera ibiti, twirinda gutema ibiti, ndetse no guca imiyoboro y'amazi.

Ikigo cy'amashuri cyangwa se indi nyubako ya Leta yubatswe ariko ikaba ifite inzu zisa kandi zikaba zubatswe ahantu hamwe.

Inyubako nziza kandi igezweho, bigaragara ko ari iy'ibiro by'Akarere ka Burera, kandi hakaba ari urujya n'uruza rw'abantu, iruhande rw'iyo nzu hakaba hari imodoka zirenze imwe, zishinzwe kwikorera imizigo.

Uruvunganzoka rw'abantu. Aho baturutse imihanda itandukanye baje ku rusengero. Aho baba bahuje imyemerere kugira ngo baze gusenga.

Abantu benshi, hagaragaramo ko harimo n'abashinzwe umutekano, Abasirikari cyangwa Abapolisi. Bigaragara ko hari igikorwa runaka kigiye kubera ahantu bari.

Inzu igezweho. Hejuru hakaba hari icyapa kigaragaza ko ari ibiro by'akarere ka Nyabihu. Kandi hakaba hari kaburimbo ijya kuri iyo nyubako, hakaba hagaragara n'insinga z'amashanyarazi, ndetse n'amatara yo ku mihanda.

Inyubako nini bigaragara ko ari urusengero . Aho abantu benshi bizera Imana bahurira bakaganira ku ijambo ry'Imana ndetse bakigishwa n'umuyobozi wabo wize Bibiliya.

Ikiraro, ni kimwe mu gikorwaremezo cyubakwa, kugira ngo banyure hejuru y'imigezi, cyangwa se ikiyaga, aho abaturage bacyifashisha mu buhahirane hagati y'imirenge, uturere, ndetse n'intara.

Inyubako igaragara nk'aho ari shyashya. Ikaba yaturwamo n'umuryango cyangwa se ikaba yakorerwamo igikorwa cy'ubucuruzi icya ari cyo cyose.

Ikoraniro ry'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bari kuganirizwa n'umuyobozi bisa nk'aho bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho, cyangwa se barimo gukemura ikibazo runaka aho byimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye ,ndetse n'uburenganzira bwa muntu muri rusange.

Abagororwa ni abantu bafungwa bashinjwa ibyaha, aho bajyanwa ahitaruye abandi, kugira ngo babanze bigishwe imico myiza, kugira ngo bazasubire mu bandi bantu, bafite indangagaciro na kirazira z'u Rwanda.

Ikoraniro ry'abantu benshi cyane b'ingeri nyinshi zitandukanye, aho bafite uyu muyobozi urimo kubaganiriza. Aho bafite ingingo bari kuganiraho, aho buri muturage aba afite inyunganizi ndetse n'igitekerezo aho yagitanga.

Iyo habaye inteko y'abaturage, buri muturage wese avuga afite ububasha, bwo gutanga ikibazo cyangwa se igitekerezo, kugira ngo abayobozi bazayishakire umuti, cyangwa se bazabavuganire mu nzego zisumbuye.

Ikoraniro ry'abantu benshi, aho hicaye ahantu hamwe, imbere yabo hariho abayobozi. Bisa nk'aho bari mu nama, aho buri muturage afite uburenganzira bwo kubaza ikibazo kandi akagisubizwa n'abo bayobozi. Aho byimakaza ubutabera, ndetse n'imiyoborere myiza mu nzego z'ibanze.

Urujya n'uruza rw'abantu aho bakoraniye ku biro by'umudugudu cyangwa se by'akagari, aho begereye umuyobozi ngo abakemurire ibibazo hagati yabo, naho byimakaza uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hariho ikiyaga kirimo amazi meza cyane, kandi hakabonekamo inzu zigezweho bigaragarako ari mu mujyi.

Ubwikorezi bw'abantu ndetse n'ibintu rusange， ni bimwe mu biri gutera imbere cyane mu Rwanda， aho ababikora babona amafaranga menshi， kandi bikabahindurira uburyo babaho， aho babona amafaranga yo kwibeshaho， ndetse bakanabaho mu ubuzima bwiza.

Abaturiye ibiyaga ndetse n'imigezi baba bafite amato, aho bayakoresha mu gutwara ibintu n'abantu babivana ahantu hamwe babijyana ahandi.

Mu buzima bwa buri munsi, ingendo ziva ahantu hamwe zijya ahandi zihakorwa buri munsi, aho iyo umuntu ashaka kuva mu ntara imwe ajya mu yindi, yifashisha bimwe mu binyabiziga harimo nk'imodoka, moto ndetse n'ibindi bihari.

Ikoraniro ry'imodoka ziri hamwe, z'ubwoko butandukanye ,aho bigaragara ko imodoka zimwe zitwara abagenzi rusange naho izindi niz'abantu bwite.

Imihanda ya kaburimbo ni myiza cyane, kuko ituma habaho ingendo zitandukanye, aho abantu bo mu ntara bagendanirana kandi bakoresheje imodoka.

Imodoka nini cyane ifite ibara ry'ubururu, ikaba itwaye umucanga wo kubakisha, bityo ikaba yarakorewe gutwara imizigo ndetse n'ibintu biremereye cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu, aho bahurira ahantu hamwe haparitse imodoka nyinshi zijya ahantu hatandukanye, bityo abantu bakambukiranya imidugudu, utugari, imirenge ndetse n'intara, binyuze mu itwagwa ry'ibintu ndetse n'abantu, bityo bigateza imbere igihugu n'abantu muri rusange.

Imodoka z'umwihariko zikoreshwa, mu gutwara imizigo cyane cyane ibiribwa, zibivana hanze y'igihugu, cyangwa se zibijyanayo, cyangwa se zikabitwara hagati mu gihugu, zibikura mu ntara, zibijyana mu yindi ntara, cyangwa se mu mugi wa kigali.

Imodoka nini cyane zikoreshwa n'inganda zitwara ibicuruzwa byinshi cyane icyarimwe, aho zambukiranya uturere n'utundi turere, intara n'izindi ntara, ndetse zikambukiranya n'imipaka.

Imodoka zabugenewe zifite umumaro wo gutwara imizigo izivana ahantu hamwe izijyana ahandi, cyane cyane ibiribwa, ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'indi mizigo ishobora gutwarwa.

Imodoka ni kimwe mu kinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu ,aho cyambukiranya imipaka cyangwa se ubuhahirane hagati y'imirenge, imidugudu, mu turere ndetse n'intara na ho ba nyirabyo babona amafaranga biturutse mu gutwara icyo kinyabiziga

Abashoramari na ba rwiyemezamirimo bagura amamodoka maze bagatwara abantu n'ibintu, babakuye mu mirenge babajyana mu yindi mirenge, cyangwa se mu turere batujyana mu tundi turere.

Ikinyabiziga cyakorewe gutwara imizigo, aho gikoreshwa mu gutwara ibintu byinshi kandi ku buryo bwihuse cyambukiranya uturere, imidugudu, intara, ndetse n'imirenge.

Ubutwazi bw'ibintu n'abantu rusange bworoshya ingendo, aho iyo ufite amafaranga makeya akugeza aho ushaka binyuze mu modoka rusange zikoreshwa mu mijyi, aho zambukiranya imirenge, utugari ndetse n'intara.

Imodoka zabugenewe zishinzwe kwikorera imizigo, cyane cyane nk'ibiribwa, ibiryo by'amatungo, ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'ibindi, aho babikura mu karere kamwe babijyana mu kandi, mu ntara bijya mu yindi ntara.

Icyapa kigaragaza aho imodoka zihagarara mu karere ka Rubavu . Aho hari urujya n'uruza rw'abantu bagiye gutega imodoka ziberekeza ahantu bifuza.

Umukino w'isiganwa ku maguru, aho abantu birukanka ibirometero byinshi cyane kugirango habonekemo umwe uza gutsinda, iyo abonetse ahabwa ibihembo bishimishije,

Urujya n'uruza rw'abantu ,aho bigaragara ko bambaye imyenda itandukanye ,aho bashaka kuba bahujwe no kureba umukino w'amaboko ,uw'amaguru cyangwa se ikindi gikorwa cya siporo ,gihuza abantu benshi.

Umukino urimo ikipe ifite abakinnyi bambaye imyenda yiganjemo umuhondo n'ubururu, aho uwo mukino ukurikiwe n'abantu benshi.

Myinshi mu mikino y'amaboko iri muri bimwe bitanga amafaranga, aho abayikina bahembwa amafaranga, bityo bigatuma babaho neza binyuze mu gukina iyo mikino.

Abakinnyi b'abari n'abategarugori ,bambaye imyenda yiganje ibara ry'umutuku ndetse n'umukara n'icyatsi ,bakaba bari gukina umukino w'intoki.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane, kuko irinda abayikora kurwaragurika cyane, aho irinda indwara kugira umubyibuho ukabije, kugira umuvuduko w'amaraso ukabije ndetse n'izindi ndwara.

Umukino w'amaboko wahuje amakipe y'abagore, kandi umukino ukaba waje kurebwa n'abatari bakeya aho ari abafana benshi bawukurikiye.

Irushanwa ry'isiganwa y'imodoka, aho abantu bayakora baba barize gutwara neza imodoka, bityo bagasigana bakoresheje ibinyabiziga by'imodoka.

Abakinnyi batanu b'abagore n'undi umwe w'umugabo ubatoza, bigaragara ko bamaze gukina umukino w'amaboko kandi bakaba batsinze kuko bishimye cyane.

Umupira w'intoki ukoreshwa mu mikino ihuza amakipe arenze imwe, bakoresheje intoki, aho ikipe imwe itsinda indi, maze bakishima cyangwa se bagahembwa.

Irushanwa ry'amagare aho ribera mu Rwanda. Iri rushanwa ryitabirwa n'abantu benshi cyane; ari abanyamahanga n'abanyarwanda, aho iyo utsinze iri rushanwa wegukana umudali, ndetse n'izahabu y'amafaranga menshi cyane.

Igitsina gore nacyo gisigaye cyarakanguriwe kwitabira imikino ngororamubiri，aho ubu umugore azi gukina imikino y'amaboko， aho atsinda n'umugabo.

Abagore nabo bakataje mu iterambere, aho ubu nabo basigaye bashoboye gukina mu mikino myinshi itandukanye, harimo n'umukino w'amaboko.

Gukora imirimo ngororangingo ni byiza ku mubiri wa muntu. Birinda indwara, bituma urama, wishima kandi bituma usabana na bagenzi bawe.

Umugabo urimo gukina umukino w'maboko , wambaye ingofero kandi arimo gukina agapira gatoya , aho arimo kugakubitisha akandi gakoresho afite mu ntoki.

Abagabo babiri, umwe w'umwirabura ndetse undi w'umuzungu, bafite udukoresho bakoresha bakina umukino w'intoki.

Umukino ngarukamwaka wo gutwara amagare, aho witabirwa n'abanyamahanga benshi ndetse hakabamo n'Abanyarwanda. Uyu mukino wambukiranya uturere twinshi cyane, kandi bakirukanka ubuso bunini bakoresheje amagare.

Uruhurirane rw'abantu benshi. Bigaragara ko harimo kigo cy'amashuri hari abanyeshuri ndetse n'abayobozi babo bisa nkaho barikangurira gukora imyitozo ngororamubiri bakina n'imikino y'amaboko

Abagore bari gukina umupira w'intoki bafite umusifuzi uri kureba niba bari gukina neza, ndetse hakaba hari n'abafana bakurikiye uwo mukino.

Ikoraniro ry'abantu benshi, bari ahantu hamwe, bigaragara ko barimo gukurikirana umukino, wahuje amakipe atandukanye, aho bishoboka ko hari imikino cg se amarushanwa y'imipira yamaboko.

Abantu benshi bakurikiye isiganwa ry'amagare, ryarimo kubera mu Rwanda, aho bigaragara ko uriya uri ku igare uri imbere, ari umuzungu.

Mu Rwanda habamo ubwoko bwinshi bw'imikino y'amaboko, aho n'abanyamahanga baza mu marushanwa kugira ngo dufatanye iyo mikino.

Amarushanwa ya voreboro mu Rwanda araba，Kandi agakurikirwa n'abantu batari bakeya. Kuko umukino urakunzwe cyane mu Rwanda，ugereranyije n'indi mikino.

Imikino ngororamubiri ni myiza cyane kuko ihuza abantu bakishima . Ndetse bituma umubiri ugira ubudahangarwa ku ndwara nyinshi zitandukanye nk'amavunane, rubagimpande n'ibindi.

Umukino wa tenisi, ni umwe mu mikino, igaragara cyane mu Rwanda, aho abantu b'ingeri zose bayikina, maze ikabafasha kuruhuka mu mutwe ndetse n'imyidagaduro muri rusange.

Imikino y'amaboko ni imwe mu mikino ikundwa cyane mu Rwanda aho yitabirwa cyane n'urubyiruko, aho uwayikinnye agira ubuzima bwiza kandi ntabwo agira indwara cyane.

Isiganwa ku magare ni rimwe mu marushanwa akunzwe mu Rwanda, aho usanga ryitabiriwe n'abanyamahanga benshi kandi yiganjemo n'abanyarwanda.

Umukino wo kwirukanka aho abasiganwa, birukanka ibirometero bitari bikeya .Iyo utsinze uhabwa ibihembo bishimishije.

Imihanda ya kaburimbo yoroshya ingendo, kandi iyi mihanda ni myiza cyane, kuko ituma habaho ubuhahirane hagati y'abantu batuye ahantu henshi hatandukanye, nk'ubuhahirane hagati y'imirenge n'indi mirenge, cyagwa se utugari n'utundi tugari.

Gutura ku mudugudu ni byiza kuko ni bimwe mu by'ingenzi leta ikangurira abaturage; aho gutura mu umudugudu bituma ubona bimwe mu bikorwaremezo harimo nk'amazi, umuriro, imihanda, ndetse ukabona na zimwe muri serivisi za leta bikwegereye.

Imihanda ya kaburimbo ni myiza. Ariko ikaba yangizwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Nk'imodoka zakoze impanuka zayobye umuhanda, ndetse n'abantu bibeshye bagakora ibintu binyuranyije n'amategeko.